Ubwato buri mu kiyaga burimo abapolisi, bushinzwe ubutabazi bwo mu biyaga. Abantu bari gukurura abarohamye.

Abaporisi bambaye imyambaro ya bo, ingofero zo kwirinda, bari mu myitozo yo kwivuna abanzi.

Abapolisi bacunga umutekano wo mu mazi, bafite n'ibikoresho bajyana mu kiyaga. Imbere yabo hariho ikiyaga.

Umugabo wambaye itaburiya n'ingofero y'umutuku, n'ipantaro y'umutuku, ari guteka ku ishyiga rya gaze, abantu baje kugura gaze ziri mu macupa yazo, gaze isumbya amakara guhisha vuba.

Abagabo bicaye mu cyumba, bambaye ubupfukamunwa, harimo umugabo uhagaze, wagira ngo ni we uri kubaremesha inama.

Umwami icyamurangaga yabaga yambaye ikamba. No mu Rwanda kera habagamo abami, umwami yategekaga igihugu cyose akayobora n'ingabo ze.

Abagore babiri. Bafite mikoro, bameze nk'abacuranzi, umwe afite inanga, hirya ya bo hari intebe iriho ubusa.

Umubumbyi w'inkono wabigize umwuga, amaze kubumba inkono nyinshi , afite n'ibase kuruhande rwe, hariho n'inkono zatwitswe zihiye.

Mu rubohero umugore afite imitemeri y'ibyibo n'uduseke, iruhande rwe hari undi uri kuboha. Uduseke ni twiza cyane dufite n'amabara meza cyane.

Kuva kera umwuga w'ububumbyi wahozeho, babumbaga inkono n'ibindi byinshi. none ubungubu haje ibya kijyambere n'ukubumba amavaze, utuntu tumeze nk'ibicuma, ibyo bashyiramo indabo kuburyo byo bitasaza vuba, ibumba ni ingirakamaro.

Ababaji nyarwanda babaza ibikoresho binyuranye. Imidaho, indoshyo, hari n'akandi kantu kabajije kagiye kumera nk'isekuro. Byose n'ibikoresho bya kinyarwanda.

Inka z'inyambo ni inka nziza cyane, zigira amahembe maremare inkuru muri zo zigira umudende uzitamirije, inka z'inyambo ni ubwoko bw'inka bwiza cyane.

Abantu bambaye imyenda y'imihondo, bari gucuruza ibyansi. Ibyansi bibika amata cyane akamera neza, ku buryo atakwangirika.

Abagore babiri bafite udupaniye ni ababoshyi b'udupaniye. Udupapaniye ni udukoresho bakunze guhahisha.

Umugore wambaye umwenda w'umutuku, amaboko n'umuhondo, ari kwerekana igishushanyo kiri ku ruhande, kiri iruhande rwe.

Ipensi ni icyuma gikora amagare, gifunga amaburo ku buryo bunyuranye. Ufite ipensi ashobora gukora ibintu byinshi binyuranye ku bikoresho by'ibyuma.

Ameza akozwe mu mbahu za tlipregisi. Hejuru y'ayo meza hariho tronovise. Tronovise ifunga amabulo, amagare n' ibindi byuma.

Abagabo babiri bicaye imbere y'ameza, n'abagore babiri bari mu nama, ku meza imbere yabo hateretseho amazi mu gacupa.

Umugore wambaye agapfukamunwa ari imbere yinzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako ndende, wagira ngo ni kiliziya yubakishije amatafari ahiye. Hejuru hariho n'imisaraba, wagira wagira ngo n'urusengero rw'abagaturika.

Inzu imeze nk'ubuyobozi. Imbere ya yo hariho umugore uhetse umwana, wifubitse agashura k'umweru, undi mugore yambaye ipataro y'icyatsi, igeretseho ijipo, n'umugabo wambaye ikoti, ikoti ry'ubururu, hejuru umweru, n'ipataro y'umukara. N'abandi hirya ya bo.

Abagabo bahagaze， umwe yambaye ikoti ry'umukara hasi ni ubururu，undi yambaye ubururu hejuru，hasi ni igitaka，undi umuhondo， undi ubururu n'igitaka.

iInzu y'ubuyobozi yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati, amabati y'ubururu imbere y'iyo nzu hariho ibendera ry'u Rwanda.

Umuhanda mwiza ni ingirakamaro. Imodoka iri kuwutunganya，iri kuwutsindagira，abagabo batatu bari gukurikirana icyo gikorwa， kugira ngo umuhanda ugende neza utungane.

Amazu y'amagorofa agerekeranye, imbere y'aho hari ubusitani n'agahanda keza kanyuze hagati y'uwo mucaca.

Abantu bicaye mumucaca, abagore bishimye n'umugabo wambaye ingofero n'ijaketi yambaye na bote.

Abanyeshuri benshi bicaye mu kibuga. Imbere yabo ha hagaze umwarimu wabo ari kubakoresha inama, arikubaha n'andi mabwiriza.

Imodoka zitwara abagenzi zidufasha mu rugendo, abagenzi bagiye gutega imodoka, bagiye kujya mu mihanda inyuranye no mu ntara zinyuranye.

Umugabo uri ku igare, ahetse umufuka avuye guhaha, ari kugenda mu muhanda, hirya ye hari agashyamba, guhaha bitunze benshi.

Imodoka ya rukururana ipakira imizigo iyivanye no mu mahanga, ikatuzanira ibintu byinshi.

Imodoka za tagisi zitwara abantu benshi. Abantu bakihuta mu rugendo rwa bo. Abamotari na bo ubu baragwiriye, basigaye batumyarukana n'iyo haba mu gahanda gatoya, motu na zo ubu ni ingirakamaro.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota, ipakiye imifuka yicyayi; Icyayi ni ingirakamaro igitera ubushyuhe mu mubir, abantu benshi bagikunda.

Abafana bari kureba umupira, umupira benshi barawukunda kuwureba kuko ushimisha abantu benshi, bamwe bafana bambaye imihondo abandi bambaye ubururu, bambaye imyenda inyuranye, umupira ukundwa n'abantu benshi.

Abakobwa bari kwiruka, bari muri siporo, bambaye imyenda y'ubururu, harimo n'uwambaye umuhondo, hirya hariho umuntu wambaye ameze nk'umutoza wa bo.

Umukino ngororangingo. Abantu bakunda imikino. Umukino wa basikete uba mwiza cyane. Abahungu bambaye imihondo n'uburu. Abafana barabashungeye.

Abakinnyi bari gukina umupira wa vole , bamwe bambaye imihondo, n'amakabutura y'umukara, abandi bambaye imituku n'amakabutura y'umukara.

Abakobwa bambaye imyenda ya siporo，bafite ibikapu， wagira ngo bagiye mu rugendo，bambaye imyenda y'ubururu， hari n'uwambaye igitambaro cy'umuhondo.

Umusore uhagaze mu kibuga gisa na orange, yambaye ikabutura y'ubururu n'umupira w'umukara wanditse mu mugongo, imbere ye hariho abandi bahungu batatu.

Abasore bahagaze neza. Ni abakinnyi b'umupira bari kumwe n'umutoza wabo. Bambaye amashati y'ubururu amakabutura y'umukara n'amagodiyo.

Umukino w'amagare abaturage bose barawukunda. Usanga bashungereye ari benshi. Amagare ni ingirakamaro.